Icyuho hagati y'abakire n'abakene mu bijyanye no kubona serivisi z'ubuvuzi, cyagabanutse mu myaka icumi mu bihugu bifite ubukungu buringaniye n'ubuciriritse. Kuva mu mwaka wa bibiri nari rimwe kugeza bibiri na cumi, abakire bagabanya serivisi ku gipimo cya mirongo itandatu n'umunani kw ijana naho abakene kuri mirongo ine n'icyenda ku ijana, muri bibiri na cumi narimwe kugeza na makumyabiri abakire bagera kuri mirongo irindwei na gatatu ku ijana naho abakene kuri mirongo itandatu na kabiri kwijana, bigaragaza igabanuka rikomeye ry'icyuho.

Abana b'abanyeshuri bari ahantu hakikijwe n'ibiti bitandukanye, bunamiye rimwe bose, bari gukarabira ku kariba kamwe.

Ivomero riherereye mu nce z'ibyaro, aho riganwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, abana, baje gushaka amazi asukuye, bakaza bitwaje icyo bayatwaramo harimo injerekani, utuvido twa cumi n'atanu.

Umuntu w'umukobwa wambaye ingofero y'ubwoya n'ishati y'umweru, ari kwihanagura mu maso akoresheje agatambaro ndetse n'intoki zombi.

Ikusanwa ry'amakuru ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'ingimbi, cyane cyane harebwa ku ngaruka zabyo mu gihe cya kovide cumi n'icyenda mu Rwanda ndetse n'ahandi, ibi bigaragaza ko leta y'u Rwanda yitaye ku buzima bwo mu mutwe bw'abana ndetse n'ingimbi.

Icyumba cy'ivuriro cyateganyirijwe kuvurirwamo abarwayi bafite ibibazo bigendanye n'amenyo, kirimo ibikoresho muganga yakifashisha mu gihe ari kuvura abafite ibyo bibazo.

Ivuriro riganwa n'abarwayi benshi bagiye batandukanye baje kwivuza, harimo abagore, abagabo, abasaza, aho usanga umuganga abasobanurira icyo barwaye hanyuma akabahereza imiti.

Ibirango by'imiryango myinshi igiye itandukanye, ikungahaye mu kurwanya no gukumira virusi itera SIDA, hari n'intero zo kugenderaho, harimo fata inshingano nziza kugira ngo ubeho udafite SIDA cyangwa se turi igihekane kizahashya SIDA, ibi bifasha gushishikariza abantu kwirinda no kugira uruhare mu kurandura iki cyorezo.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye higanjemo igitsina gore, baje guhugurwa ubabwira ajya imbere abandi bagasigara bicaye bakumva uri kugira icyo ababwira.

Umuganga w'amenyo wicaye mu cyumba cyagenewe serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo yambaye umwambaro w'abaganga, kandi yicaye ku ntebe y'akazi imbere y'igitanda kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, gifite ibikoresho bya muganga nk'itara ryo kumurika mu gihe cyo kuvura.

Gusuka amazi mu gikombe cyo kunyweramo icyobita ikirahure avuye mu ijage, ni amazi meza afasha umubiri kurinda indwara ,umubyibuho, n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Yakwifashishwa no kunyweshwa imiti n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Umuhungu uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isaha, ari kuyikora yicaye hasi mu buryo bwo kunanura amaguru.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi bw'imikino, gikoreshwa hifashishijwe imiraba yamajwi, gifasha uri kugikoresha kumva neza cyangwa kumenya icyo umuntu arwaye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri; ari kumva amajwi akoresheje udukoresho two kumva; kandi ari kunywa amazi yo kugira ngo amufashe muri iyo myitozo.

Urukurikirane rw'ibicuruzwa bikomoka ku binyabuzima by'inzuki, biri mu bwoko bwe butandukanye, amacupa maremare, amagufi, ni ubuki bukorwa n'inzuki zibuvanye ahantu henshi hatandukanye, harimo kuva mu ndabo zikagenda zihovwamo n'ahandi.

Ibicuruzwa byita k'uruhu, bikaba ari ibikoresho bibiri byo kongerera uruhu ubuhehere mbese bigamije gufasha uruhu kuba rworoshye kandi rutangaje, bikaba byiganjemo ibisukika ndetse n'ibitari iby'amazi.

Amavuta yifashishwa mu gufasha uruhu kuba rworohereye cyangwa se ruhehereye ari mu macupa atandukanye, harimo iry'umweru n'umuhondo.

Ubutaka buriho ibimera byiganjemo ibiti, harimo ibinini, ibitoya, bifite amababi y'icyatsi, iyo bikuze ayo mababi yasaga gutyo agenda ahinduka umuhondo, agahunguka, yarangiza akuma.

Igiti cyera imbuto zisa oranje, mbere yuko zisa gutyo ziba zihishe mu gashishwa kazo, uko iminsi igenda ikurikiranya karuma hanyuma kagafunguka, izo mbuto zikagaragara.